Umumama wambaye baji ndetse wambaye n'umupira w'umweru, imbere ye hari abandi bagabo ndetse naba mama bambaye imyenda isa ubururu, imbere yabo kandi hari imiti igiye itandukanye iteretse ku meza.

Imiti iri mu macupa indi iri mu mashashi, ikoreshwa cyane cyane n'abahinzi mu kugira ngo barwanye ibyonnyi mu bihingwa byabo.

Umugabo wambaye imyenda ifite ibara ry'umweru uhetse icyuma gifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ubururu. Ari mu murima arimo gutera imiti yica udukoko dushobora kwataka ibyo bihingwa.

Ibiti ni bimwe mu bishobora gufatwa n'indwara zitandukanye, umugabo wambaye isarubeti y'umweru ndetse n'agapfukamunwa, afite ipompo irimo umuti, arimo gutera ibiti kugira ngo abirinde uburwayi ndetse n'udukoko.

Umurima uteyemo igihingwa cy'ibirayi, hari umugabo kandi wambaye ingofero y'umukara uhetse icyuma mu mugongo arimo gutera ibyo birayi umuti, bishoboka ko ibyo birayi byarwaye udusimba.

Umumama wambaye linete ndetse n'ishati yumweru. Akenyeye igitambaro mu mutwe ndetse ahetse icyuma gitera umuti arimo gutera ibihingwa by'ibigori.

Umuceri ni bimwe mu bihingwa bikunzwe na batari bake hano mu gihugu, umugabo wakunje ipantaro uhetse icyuma mu mugongo arimo gutera umuti kugira ngo hatazazamo ubusimba.

Umurima uteyemo urusenda rutoshye rumeze neza hari mugabo wambaye iserubeti isa umweru ndetse na bote z'umukara afite icyuma gitera umuti arimo gutera umuti urusenda.

Umuti ukoreshwa cyane cyane n'abahinzi bakora umwuga wo guhinga, upakiye mu gashashi gasa umweru ndetse n'umuti urasa umweru. Uri ahantu uteretse ku meza hirya yaho hari indi miti iri mu tubuni.

Ibigori ni Igihingwa gikunzwe n'abantu benshi, umugabo wambaye isarubeti isa umukara wijimye ndetse wambaye nagapfukamunwa gasa umukara, ahetse icyuma mu mugongo gisa umuhondo, arimo gutera umuti ibigori kugirango birinde ubusimba.

Amazi yanduye arimo ibyondo, harimo abagabo babiri, umwe afashe ifi mu ntoki ndetse akandi kaboko ke gafashe mu mazi, undi amaboko ye yombi afashe mu mazi na we ari gushaka uko yabona ifi.

Abagabo barindwi bari mu gikorwa cyo kuroba amafi, bafashe igikoresho bari bukoreshe baroba ayo mafi, bagishyize mu mazi kugira ngo kibafashe gufata amafi mu buryo bworoshye.

Umugabo wambaye ishati y'amaboko magufi, ufite ibase ifite ibara ry'ubururu, irimo ifi ahagaze iruhande rw'icyuzi arimo arerekana ifi iva mu cyuzi ke uko iba ingana.

Ibyuzi bibiri byo kororeramo amafi, hirya yabyo, hari ibiti by'amashyamba, byinshi bipfukiyemo, bino nanone hateye ibyatsi ndetse hari n'utubuye.

Icyuzi cyororerwamo amafi kiri ahantu hanyene, iruhande rwacyo haruguru hari abantu babiri bahagaze bari kureba uko kimeze.

Amafi menshi yafashwe n'igikoresho abarobyi bakoresha baroba amafi. Bagiye kuyafata bayashyire ahantu habugenewe kugira ngo bayajyane ku isoko abakiriya babashe kuyabona.

Ibyuzi byubakishijwe supanete, abagabo babiri bose bambaye ingofero ndetse bambaye n'imipira isa, bafite ibikoresho mu ntoki zabo barimo kuroba amafi, iruhande rwabo hari ibase ndetse n'indobo ziza kubafasha mu gukusanya amafi barobye.

Ibyuzi byororerwamo amafi, ndetse mo hagati hari utundi tuzu twubatsemo, ushobora kororeramo inkwavu cyangwa se inkoko, kugira ngo zijye zifumbira ibitunga amafi.

Amafi ari mu cyuzi, kizengurutswe n'ibyatsi bigiye bitandukanye, umugabo wambaye ingofero arimo aragaburira amafi, hagati mu maguru ye hateretse indobo ifite ibara ry'umutuku, hirya y'ibyuzi hateye urutoki.

Ibyuzi bitatu icyuzi kimwe kirimo akantu kameze nka supa nete bagaburiramo amafi , umu mama wambaye umupira usa orange, ndetse ukenyeye n'agatambaro mu mutwe ahagaze iruhande r'icyuzi.

Umugabo uhagaze mu mazi wambaye agapira gasa ubururu ndetse nijile ifite utugozi twumukara, afashe ifi mu ntoki ze amaze kuyiroba.

Abagabo ndetse n'abagore bikoreye intete bavuye gusaruriramo icyayi, bari ku murongo barishimye bishimiye umusaruro bavanye mu murima w'icyayi cyabo.

Umurima uteyemo umuceri, harimo aba mama ndetse n'abagabo, barimo kubagara, kugira ngo ikirare kitazica umuceri wabo, harimo amazi atuma umuceri utuma.

Igiti cy'ikawa kiriho imbuto i zeze ndetse n'izitarera, giteye ahantu hacyonyine, kiratoshye kimeze neza, kandi kirera.

Aba mama benshi bari hagati y'igihingwa k'ikawa, bari gusarura kandi babonye ikawa nyinshi ifatika, bagiye kujya kuyitunganya, kugira ngo bazayigeze ku isoko.

Igihingwa kizwi ku izina ry'ikawa, gikunze guhingwa n'abaturage akenshi bashaka amafaranga yateza imbere imibereho yabo ndetse n'igihugu muri rusange.

Abagabo ndetse n'abagore bambaye ingofero barunamye bari gukusanya igihingwa k'ikawa, barishimye basa nk'aho babonye umusaruro mwinshi batakekaga.

Imiti yitwa arubendegisi, ijana iri mu tubido, ikoreshwa mu kuvura indwara zijye zitandukanye, zifata amatungo by'umwihariko izinzoka.

Imiti itondetse muri etajeri iri mu macupa agiye atandukanye. Ikoreshwa mu kuvura indwara zataka amatungo ndetse amatungo akaba akomeza kubaho neza.

Imiti y'amoko atandukanye, itondetse ahantu ku meza. Iyi miti ikoreshwa mu kuvura indwara zifata amatungo.

Utubido turi mu ibara ry'umweru ndetse dupfundikishije udufuniko dusa icyatsi duteretse ahantu hamwe ndetse iruhande rwabyo hari igikarito kirimo indi miti igiye itandukanye.

Imiti y'ubwoko butandukanye imwe iri mu ducupa indi iri mu dushashi, iri mu dushashi iri mu dukarito twayo, ikoreshwa cyane cyane mu kwica udukoko dushobora kuba twakataka amatungo.

Imiti iri mu mashashi ariho ijambo rivuga tirodox magana abiri hariho ibishushanyo by'inkoko iyi miti yifashishwa mu kuvura indwara zifata inkoko.

Imiti iri mu tudobo iriho ibishushanyo ik'inka, ifarasi ndetse n'andi matungo atandukanye. Ikoreshwa mu kuvura indwara zitandukanye zifata aya matungo.

Imiti iteretse ahantu muri etejeri iri mu dushashi ndetse hariho igishushanyo cy'inkoko, ikoreshwa mu kuvura indwara zifata amatungo y'inkoko.

inka nyinshi ziri ahantu hamwe, ziri kurira mu gikoresho cyabugenewe imbere yazo hahagaze abandi bagabo ndetse n'abamama bari kwitegereza uko inka zabo zifata ibyo kurya.

Abagabo abagore, bose bateraniye ahantu mu murima. Bari gutera ibihingwa bitandukanye. Umwe muribo arimo guseka, bigaragara nkaho, yishimiye igikorwa bari gukora. Hari umugabo wambaye ikote ry'umukara.

Abamama babiri umwe ukenyeye igitambaro mu mutwe ndetse wambaye n'agapira gasa umweru, afite umuhoro mu ntoki ze, bahagaze mu murima urimo ibyatsi byinshi, iruhande rwaho hari icyuma gifite ibara ry'ubururu ndetse hakikijwe n'ibiti byinshi.

Umusore wambaye impuzankano ya gisirikare, inyuma ye hari undi mu mama wikoreye inkwi ndetse n'undi mu mama wifashe mu mayunguyungu ukenyeye n'agatambaro mu ijosi, inyuma yabo gato hari abandi bantu bari kuzamuka umwe afite isuka ku rutugu, n'ahantu hari ibiti bisa nk'ibyumye.

Umurima mugari uteyemo igihingwa cy'ibigori bitoshye, umugabo yambaye isarubeti y'ubururu arimo kureba uko ibihingwa bye bimeze.

Umurima urimo ibyatsi ndetse uteyemo n'ibiti byinshi bitandukanye, harimo abagabo babiri umwe wambaye isengeri y'umweru usunitse igare ririho imifuka y'umweru, irimo ibintu bapakiyemo.

Abamama ndetse n'abagabo bari mu murima wibigori bari kugenzura niba byeze ku buryo byasarurwa cyangwa se niba hatari ibyo abajura bashobora kuba baribye, umumama umwe yambaye ingofero y'umutuku.

Umurima uteyemo ibyatsi byinshi by'amoko atandukanye, hari kugendamo umugabo wikoreye inkwi ndetse wambaye n'agapira k'umutuku, iruhande hari inkingi ifite ibara ry'ubururu ndetse hari n'ibiti bizengurutse uwo murima.

Abagabo babiri, umwe afashe igare, undi ari kumusunikira, iryo gare ririho inkwi ndetse n'isuka, bavuye guhinga baratashye, bari guseka barishimye.

Umugabo ndetse n'umugore, bari ahantu mu murima, bose bafite amasuka bari gutera igihingwa mu umurima. Umumama yambaye igitenge ndetse umugabo yambaye imyenda isa umukara.

Umurima w'Imbuto zitwa otamironi, harimo abantu benshi, umu mama umwe afashe urwo rubuto mu ntoki, arimo guseka yishimiye umusaruro yabonyemo.

Igiti cy'umwembe giteye ahantu mu mbuga, iruhande rwacyo hari inzu ifite igisenge kirekire, iruhande rwacyo nanone hari ibindi biti birebire bigikikije, iruhande rw'ibyo biti hari indi nzu ifite igipangu.

Inzu iri ahantu hayonyine ifite amabati ari mu mabara y'umutuku ndetse inkuta zayo ziri mu mabara y'umuhondo iri ahantu mu ishyamba, abantu bahatuye batuye bonyine.

Ibiti by'amaronji ndetse n'indimu biteye ahantu mu murima ari byonyine. Kimwe muri ibyo biti nta mababi gifite cyarumye birasa nkaho gishaje gikenewe gusazurwa.

Ibigori byinshi biteye mu murima bifite ibibabi bitoshye, bisa nkaho byabonye ifumbire ihagije ndetse n'amazi menshi, iruhande rwabyo hateye ibindi biti bitandukanye.

Ibigori biteye mu muririma mugari nibyinshi biratoshye bimeze neza, uko bigaragara byabonye imvura ndetse n'ifumbire ihagije, hirya gato hari undi murima na wo uteyemo ibigori.

Umurima mugari uteyemo ibigori bimwe biratoshye bigaragara nk'aho byabonye ifumbire ihagije ibindi ntabwo bitoshye bikeneye ifumbire ihagije kugira ngo bise nk'ibindi.

Umurima uteyemo ibihingwa bigiye bitandukanye harimo: ibigori, ikawa ndetse n'ibisheke; undi murima harimo ibigori birambitse hasi byumye bisa nk'aho bamaze kubisarura.

Ikigori gisaruye cyeze, kirambitse ahantu mu murima urimo ibyatsi, ibitoshye ndetse n'ibyumye, biragaragara nk'aho hari umuntu wakibagiriwe mu murima.

Imbuto z'ubwoko bugiye butandukanye ziri ahantu hamwe, karoti, inyanya, imineke, pavuro, intoryi ndetse n'ibindi bitandukanye, zirasa neza kandi imbuto ni ingenzi mubuzima bwacu bwa buri munsi.

Umurima uteyemo ibihingwa bitandukanye harimo intoryi ndetse n'imibyare. Hirya yaho gato hari inzu ifite igipangu cyubakishije amatafari.

Ishyamba rigizwe n'ibiti byinshi bitandukanye rirapfukiye, iruhande rwabyo hari ibindi biti bitoya bifite ibibabi by'icyatsi, hejuru hari ibihu bisa umweru.

Ibiti by'ubwoko butandukanye biteye ahantu, hagati muri ibyo biti hanyuze amazi atemba, birasa nk'aho hari ahantu aturuka ndetse n'aho ari kujya hari ibiti kandi byaguye bishaje.

Umusozi muremure uriho amapoto atwara insinga z'amashanyarazi kugira ngo umuriro usakare hose mu gihugu, hari kandi umuhanda wa kaburimbo urimo kugenderamo abantu batwara amagare n'ababigize umwuga.

Inyubako nyinshi zitandukanye, zubatswe hagati mu ishyamba, zifite amabati ashaje ndetse n'amarangi yazo arashaje, zikeneye gushyirwaho ibindi bikoresho bishyashya.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'ibiti byinshi bitandukanye, harimo abantu benshi bari kugendamo bisa nkaho bavuye ahantu hamwe, cyangwa se bari kujya ahantu hamwe.

Ishyamba ni kimwe mu bituma isi ndetse n'abantu muri rusange bahumeka umwuka mwiza, ibiti biteye ahantu byinshi bipfukiye hirya hari umusozi ndetse n'bihu bisa umweru.

Igihingwa cya avoka kiriho voka zikiri imiteja, gihinze ahantu kiri cyonyine kandi gifite amababi atoshye cyabonye imvura kimeze neza.

Umumama wambaye umupira w'icyatsi wanditseho amagambo rabu, akenyeye agatambaro mu mutwe gafite ibara ry'umukara. Ari mu murima wa pavuro afite kandi n'ibase mu ntoki arimo gushyira ifumbire ku bihingwa.

Umumama wikenyeye igitenge ndetse wambaye n'agatambaro gasa umukara n'umweru mu mutwe, ari mu karima ke k'igikoni arimo kwita ku mboga ze ndetse n'ibigori areba uko biri gukura.

Inyubako yitwa Girinihawuzi ihingwamo ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo abantu benshi bambaye amataburiya y'umweru, bari kureba ko ibihingwa bifite ubuzima bwiza ndetse biri gukura neza.

Ibihingwa bya beterave biteye ahantu, iruhande rwabyo hari umubyare usa nk'uwumye utariho igitoki iruhande rwabyo nanone hakikijwe n'urukuta rwamezeho ibiti.

Umurima uteyemo ibihingwa bitandukanye, ibigori ndetse n'imigozi y'ibijumba, hari kandi n'abagabo babiri umwe yambaye isarubeti y'ubururu arimo gukanika umuyoboro uzajya utwara amazi.

Umumama ufite imisatsi ihambiriye ku mutwe, ahagaze mu murima w'amashu afite igikoresho bakoresha buhira imyaka cyitwa rozwari ari kuhira amashu, iruhande rwayo mashu hari ibindi biti bihateye binini cyane.

Umurima uhinzemo ibihingwa bitandukanye harimo umumama wifubitse, afite ipompo iri gusohora amazi menshi ari kuhira ibihingwa kugira ngo rigire ubuzima bwiza ndetse binakure neza.

Umurima uteyemo ibihingwa bikiri bitoya, harimo igikoresho kigezweho cyifashishwa mu kuhira imyaka mu gihe cy'izuba kugira ngo ibyo bihingwa bidahura n'ikibazo cyo kubura amazi.

Kuhira ibihingwa mu gihe imvura yabuze ni ingenzi kugira ngo dukomeze gusigasira umusaruro w'ibyo tuba twarahinze, umurima urimo ibigori byinshi birimo biruhirwa kugira ngo bikomeze bigire ubuzima bwiza ndetse bizanatange umusaruro.

Umumama wikenyeye igitambaro mu mutwe, akenyeye n'ibindi bitenge. Afite isuka mu ntoki ze zombi. Ari mu murima ari guhinga yambaye ibirenge.

Abagabo ndetse n'abagore bambaye amasarubeti asa ubururu ndetse na bote zisa umukara, umwe muri bo afite ipompo arimo kuhira ibigori ndetse n'amashu bahagaze mu murima.

Ibigori byinshi bihinzwe ku buso bugari. Ibyo bigori kandi hari uburyo bwateguwe bwo kubyuhira kugira ngo bitazahura n'ibiza byo kubura amazi kugira ngo bituma.

Ibihingwa bikiri bitoya biteye ku buso bw'umurima mugari, harimo igikoresho cyabugenewe cyifashishwa mu kuhira mu gihe izuba ryabaye ryinshi, kugira ngo ibyo bihingwa bitazahura n'ikibazo cy'amazi.

Ikiyaga kiri ahantu munsi y'imisozi iriho ibiti bigiye bitandukanye, muri icyo kiyaga harimo ubwato bubiri butwawe n'abantu barenze umwe bubafasha kuva hakurya bajya hakuno.

Imisozi iteyeho ibiti by'inturusi bitari byinshi, hariho kandi imirima ihinzemo bitegura guteramo imyaka, hirya hari indi misozi iriho amazu.

Imisozi myinshi iteyeho amashyamba ndetse n'ibindi biti bitari amashyamba, nta muntu uhatuye kuko abantu benshi batinya kuhatura bitewe n'imiterere yaho.

Ikibaya kinini giteyeho ibiti byubwoko butandukanye ndetse hariho n'ibimera, hejuru hari igihu gisa umweru ndetse n'ubururu.

Umusozi uriho ibihingwa bigiye bitandukanye ndetse n'amazu menshi yubatse kuri uwo musozi, hari umuhanda uciyemo, ufasha imigenderanire hagati y'abatuye hakurya ndetse no hakuno.

Imisozi miremire yiganjeho ibiti ndetse n'amabuye. Hino y'iyo misozi hari imirima iciyeho amaterasi n'indinganire. Hino gato hari amazu abiri imwe asakaje amategura, indi isakaje amabati y'umweru. Munsi y'urugo hari intoki.

Abagabo babiri bambaye amaserubeti y'ubururu ndetse na bote z'umweru bari kumwe kandi n'abandi bagabo batatu bambaye amataburiya y'umweru na bote zisa umweru bari inyuma yinka.

Inka y'ikimasa yambaye akantu mu mazuru, kugira ngo babashe kuyifata mu buryo bworoshye yambaye kandi n'iherena ku gutwi iri hantu irafungiranye.

Abantu batanu, babiri bambaye impuzankano iri mu ibara ry'ubururu, abandi batatu bambaye amataburiya y'umweru bahagaze inyuma y'inka barimo kuzishorera.

Ingurube ihagaze mu kiraro kiza gikorotirijwe n'isima. Hasi hariho isaso ituma zitandura. Iri kumwe n'ibyana byayo bigera muri bitatu. Zirakeye kuko bazikorera isuku ihagije.

Abantu bane bambaye amasarubeti y'ubururu ndetse na bote z'umweru. Umwe muri bo yambaye itaburiya y'umweru bahagaze hagati mu nka hari serivisi bagiye kuzihereza.

Umurima urimo ibiti byinshi ndetse n'ibyatsi bijyiye bitandukanye, harimo ihene nyinshi zirimo kurisha uwo bwatsi, ziri mu mabara y'umweru ndetse na shokora.

Inkoko zikiri ntoya zororewe ahantu heza cyane hasa neza, mo hagati harimo udukoresho dusa umweru ndetse n'umutuku dukoreshwa mu kugaburira izi nkoko.

Ingurube iryamye mu kiraro cyayo, iratuje irasa neza, irasa nkaho yahaze kuko iraryamye, iruhande rwayo mu kiraro hari isaso bayisasiye.

Inka zo mu bwoko bumwe twita inyambo, zifite amahembe maremare, hari umugabo uhagaze iruhande rwazo, arimo kwitegereza uko zirisha, byamushimishije kuko arishimye cyane.

Inka zifite amahembe maremare ziri mu rupangu, inyuma yazo hari abandi bantu batandatu barimo kuzishorera bazinjiza mu rupangu.

Ingurube ifite amatwi maremare ndetse n'iherena, iri mu kiraro iratuje, iracecetse ndetse irahaze kuko ntabwo irimo kurya, hirya gato turahabona isaso ziyifasha kuryama aheza.

Inzu ikorerwamo ubworozi bw'inkoko zirimo zirarya izindi zirimo zirakina, mo imbere harimo utudobo ziriramo dusa umutuku ndetse n'umweru, iruhande hakikijwe urukuta rw'amabati.

Umuntu wambaye imyenda isa ubururu ndetse na bote zumukara ,ahagaze mu nzu ikorerwamo ubworozi bwinkoko, arimo arareba uko zitera amagi kugirango ayakusanye ayajyane muyandi.

Umugabo wambaye umupira urimo uturongo tw'umukara, ufite intara mu ntoki, ziriho imbuto zigiye zitandukanye, harimo iz'ibihaza, iz'ibishyimbo, amashaza ndetse n'uburo. Iruhande rwe hari ibindi bimera bihateye.

Ibihingwa bikiri bitoya biteye mu tuntu dufite ibara risa umukara, muri utwo tubuntu harimo itaka ndetse n'ifumbire ifasha ibyo bihingwa gukura neza.

Ibigori bikenerwa cyane mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko bivamo akawunga, ifu y'igikoma ndetse n'ibiryo by'amatungo, umugabo ufite inzara nziza abifashe mu ntoki arabyishimiye kuko birasa neza.

Inka eshatu zose zifite amabara asa, ziri kugenda mu mbuga y'igitaka hirya y'aho hari umurima uteyemo ibyatsi ndetse n'ibiti bitandukanye.

Abantu bakora umwuga wo kuvura amatungo bazwi ku izina ry'abaveterineri, bateraniye ku itungo bari kureba icyo ryaba ryabaye, rifite igisebe ku kuguru, barashaka kukidoda ngo bakivure iryo tungo rikomeze rigire ubuzima bwiza.

Inyama zirunze ahantu bazicururiza harimo intoki zambaye ga ziri kugenzura ubuziranenge bwazo kugira ngo babashe kuziha abakiriya zifite ubuziranenge bwuzuye.

Abagabo batatu bose basutamye umwe yambaye umupira w'umweru, undi yambaye ishati, undi yambaye umupira w'umukara ndetse bambaye ga mu ntoki zisa umweru bari kureba ikibazo imbwa yabo yaba yagize iruhande rwabo hari agasahane gasa umutuku.

Umugabo ndetse n'umama bose bambaye utuntu mu mutwe dusa ubururu ndetse n'udupfukamunwa bari kuvura imbwa yagize ikibazo mu myanya y'ubuhumekero hari imiti myinshi igiye itandukanye.

inka nyinshi ziteraniye ahantu mu rupangu rufite ibara risa ivu iruhande rw'urwo rupangu hari umuntu wambaye itaburiya y'ubururu ndetse wambaye na ga mu ntoki zisa icyatsi.

Ibikoresho byifashishwa n'abakora ubworozi bw'inzuki, birambitse ahantu mu nyubako ikikijwe n'amabati hari inzuki zafasheho kugira ngo zibashe gukora ubuki ndetse zitange n'umusaruro.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru yambaye ga zisa icyatsi ndetse yambaye n'agatambaro gasa umukara. Uko bigaragara asengera mu idini rya isilamu afite n'ikindi gikoresho mu ntoki cy'umukara.

Inyamaswa tuzi ku izina ry'ibitera ni eshatu zirimo kugenda mu muhanda wa kaburimbo, hirya yaho hari amazu akorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye.

Inyamanswa ziri ahantu mu muhanda w'igitaka, imwe irazamuka indi iramanuka. Imanuka igi kunywa amazi. Hirya yazo hari ibyatsi byinshi bitandukanye.

Inyamaswa zizwi ku izina ry'intare zicaye munsi y'urutare, imwe yicaye hejuru y'urutare, hirya gato hateye ibiti byinshi bipfutse.

Umugabo uhetse igikapu mu mugongo ndetse wambaye n'umupira ufite amabara abiri; umweru ndetse n'icyatsi arimo aritegereza inyamaswa zizwi ku izina ry'ibitera.

Inyamaswa ziba muri parike, ni zimwe mu zikurura ba mukerarugendo, bityo bigateza imbere ubukungu bw'igihugu cyacu, inzovu nyinshi zirikugenda mu ishyamba hirya yazo hari indi modoka ikoreshwa na ba mukerarugendo.

Inyamaswa iri mu bwoko bw'ihene ihagaze mu murima w'uburo iri kwitegereza cyane isa nk'aho ifite ubwoba wagira ngo hari nk'ikintu kigiye kuyataka irashaka kwiruka.

Inyoni, zigera muri enye, zose ziri mu ubwoko bumwe zirahagaze, ebyiri muri zo, ziri kurebana. zitegereje, kuguruka. Zirimo kuruhuka, zifata akayaga.

Igiti cyumye ndetse gifite amashami menshi atandukanye, harimo inyamaswa yitwa Ingwe iryamyemo isa nk'aho isinziriye.

Inyamaswa nyinshi zizwi ku izina ry'imbwebwe ziri kugenda mu kayira karimo utubuye, iruhande rwawo hari ibiti byinshi bihateye.

Inka enye ziryamye zose ntabwo ziri guhumeka bishoboka ko zishobora kuba zapfuye bitewe n'impamvu nyinshi zitandukanye harimo indwara ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Inyamaswa yicaye yonyine irigunze, yicaye ku gikuta birasa nk'aho ifite ikibazo cy'uburwayi. Mu maso hayo hasa nk'aho yakomeretse ifite igisebe.

Ikiyaga kirimo inzovu zigera muri eshanu. Hirya y'icyo kiyaga hateye ibiti byinshi bitandukanye, muri ayo mazi harimo amabuye manini.

Inyamaswa zizwi ku izina ry'igisamagwe, n'inyamaswa zigira uburakari bwinshi ku buryo uzendereje zakurya nyuma yazo hateye ibiti.

Inyamaswa ifite amabara menshi y'umukara ndetse n'umweru, iri kureba inyuma, ihagaze mu muririma urimo ibyatsi byumye bigiye bitandukanye, iri yonyine iratuje.